Abagabo bane bahagaze harimo umupolisi n'umudaso n'abasivili babiri. Umudaso afashe bote mu ntoki. Umupolisi na we afashe mu ntoki, n'umusivili na we afashe bote mu ntoki, undi ntabwo ari kugaragara.

Imodoka y'ivatiri iparitse kuri fose hariho umupolisi, hari n'umusirikare umwe n'abandi bapolisi bambaye ubupfukamunwa hirya y'imodoka.

Isiganwa ry' amapikipiki atonze umuronko akiri imbere yaho hari abapolisi babiri, bambaye imyenda y' imihondo n' imikara bambaye imyenda y' ubururu, hakurya hari amamodoka inyuma y' abapolisi hari imodoka.

Umugabo wambaye imyenda isan'iya gipolisi n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, n'ipataro 'yumukara, bafashe ikirangiti bagishyize ahantu ku muriro, hirya ya ho hari abandi bashungereye benshi, bari kureba uko ikirangiti kiri gushya. Bagishyize ku muriro. Imbere ya ho hari n'ururabo.

Abasirikari bari kuri forini bambaye impuzankano, bambaye ingofero, songa mbere z'icyatsi ,bambaye n'amabote y'icyatsi ,bari ku murongo ,bahetse n'imbunda.

Abapolisi, abasirikari. Abapolisi barimo bari kuramukanya bari imbere y'ubuyobozi aho bakorera, bambaye imyenda ya gipolisi n'iya gisirikare.

Imashini iterura imodoka zagize impanuka, iyo mashini iri guterura iyo modoka iri guterura irimo n'abantu, ku kumuhanda hariho abantu benshi bashungeye, hariho n'inzego za polisi, abantu baparitse amapikipiki n'amagare.

Umureko uri ku nzu yubatse ya kijyambere, iriho imireko ya kijyambere n'amadesate, atwara amazi ngo ayajyane mu itiyo rinini.

Umusirikari uri mu ishyamba, wambaye impuzankano za gisirikari, hari kugaragara n'ipeti ririho icyapa kiriho idarapo ry'igihugu, yambaye n'ingofero ya gisirikari, uri kurasa hakurya.

Abagabo bicaye hamwe, harimo n'umusirikari. Baricaye bose bari gukoma mu mashyi, bari gucurira

Abasekirite bicaye bari mu nama y'abasekirite bose, harimo umusekirite umwe wambaye bote z'icyatsi abandi bambaye iz'umukara.

Abasirikari bicaye ku murongo bafite imbunda. Bafashe kuri sorute, abandi bameze nkabashaka kurasa.

Abaturage bari imbere y'abapolisi, abagabo n'abagore, abapolisi bari kubaremesha inama.

Indege yo mu bwoko bwa kajugujugu iri ku kugenda ifite ibara ry'umweru mu iririkoze hari umu. umusirikari uri kuzamuka ku mugozi uri kujya mu ndege

Abagabo bicaye bari mu nama harimo n'umudaso wambaye imyenda y'icyatsi abandi bose bicaye bafite za mashini. Abagabo n'abadamu harimo n'abagabo bambaye amakositime y'imyeru n'amashati y'imyeru.

Abagabo babiri bambaye jirikara n'ishati, inkweto z'umukara ishati y'umweru ikositimu, .umudamu ufashe mikoro mu ntoki uri kubaganiriza, hirya yaho hariho abandi badamu bambaye imituku n'imyeru.

Abadamu, n'abana n'abagabo bari mu butayu bifashe neza, bari mu nama, hagati yabo hariho n'igiti kinini cyumye kitagira umutwe.

Abantu bahagaze hari umudamu uhagaze uri kubigisha ufashe mikoro mu ntoki, bari ku nyubako ifite urugi rw'ubururu n'ibirahure by'umweru.

Abagabo benshi bari mu ishyamba, bari gutema ingeri, bari kuzuriza ngo bazishyire ku bugamba, bazisature.

Abagabo bicaye harimo n'abasirikari, imbere yabo ku meza hateretse amazi, harimo n'uwambaye ikositimu y'umukara, n'undi wambaye ishati y'umweru wafunze karuvati.

Ikibuga cyicayemo abantu benshi bambaye imyenda y'imituku n'icyatsi n'imihondo, abo bantu kuri icyo kibuga imbere y'abantu hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru na songa mbere yumweru yanditseho uri kubaremesha inama.

Ikigega kiri ku ntarure. Ikigega tukibikamo imyaka turi gusarura ngo kibike imyaka. Hirya y'ikigega hari n'urutoki.

Umugabo wambaye ingofero ,nishati ijya gusa n'umweru, n'pataro y 'ubururu, wajishe inka, uri kuyihumuza no mumaba.

Abantu batanu bari gutonora ibitoki byo kwenga bari kunaga mu muvure, ibyo bitoki byahiye neza bisa n'umuhondo, hariho uwambaye ingutiya y'umutuku nu w'icyatsi nuwambaye tisheti y'umweru.

Inka z'inyambo ziri gusohoka ziri munsi yigiti, ziri ku kibumbiro, zifite amahembe maremare cyane.

Intango nini iteretse ku rugata rw'umudende, ruboshye n'intango iboheye kugera munsi y'izosi intango, umuseke umwe.

Umudamu, umudamu wicaye ku nyubako y'amatafari ahiye, uri kubumba imbabura zo mu ibumba batekaho.

Abadamu bambaye imyenda y'umuhondo bari kuvuza ingoma, umwe wazamuye ukuguru uhagarariye ku kuguru kumwe. Imbere yaho hariho bantu bambaye imyenda y'imyeru, n'imipira y'imikara benshi.

Umugabo ufite umuduri wambaye ikositimu, wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, wambaye na rineti wakenyeje na sentire y'umutuku, wambaye ipantaro y'ubururu umuduri ufashe mu ntoki.

Abagabo batatu barimo n'umudamu bari kuvuza ingoma, bakenyeye imikenyero y'ubururu, imishanana y'umuhondo n'amashati yicyatsi umudamu yambaye isengeri y'igitaka.

Abantu benshi bahagaze mu ishyamba ,bari ku harimo n'abafashe ibitiyo n'amapiki . Bari guhinga imbere yaho hari ishyamba rinini n'ibiti.

Umurima munini ,uruvumvu runini runini cyane rurimo imizinga ya kinyarwanda ,urabona aha ni mu ishyamba harimo ku bikondo imizinga iri ku bikondo cyane bayitindiye intarure.

Inkangara idapfundikiye, iteretse ahantu hari amabuye.

Umudamu wikoreye inkono. Ibibindi bitatu bigerekeranye. Uri kugenda aseka cyane, wazamuye n'akaboko. Uwo mudamu yambaye umupira usa n'ubururu. Uri guseka cyane.

igiti cyumye kiriho imbuto zigera kuritatad mce icumifite ibara ry'umuhondo n'umweru udahibye

Intebe ya kinyarwanda iri ahantu mu rugo, ibajije mu giti giteye verine.

Umugabo wambaye isheni irimo amabara y'umweru n'umukara, wambaye n'ingofero yambaye ayirebesheje inyuma.

Abadamu bari kubyina bikoreye ibiseke inyuma yaho hariho abagabo bakenyeye y'imikemyero y'umweru harimo uwambaye umupira w'icyatsi n'umukenyeraro w'icyatsi umukimyero umwitero w'umweru.

umugabo ucuruza mituyu, wambaye jire ya mtn ufite agakapu, wambaye mu ijosi, wambaye n'umupira w'umukara urimo n'ibara ry'umweru, imbere ye hari igitete ashyiramo ibyo

Inkangara icumi ziteretse ku mikeka myiza cyane', ifite amabara y'umukara, n'umweru, inkangara zimwe nta mufuniko ihari iri ku ruhande iregetse.

Icyo benshi bitaga igisokuzo cy'igisambuzo. Gifite uduti cumi dusambura. Bakoresha bari gusambura umutsatsi kugira ngo umere neza.

Icyansi kibajijwe mu giti, gifite amabara abiri umukara, umuhondo, umweru, icyatsi, bakifashisha bari kubuganiza amata.

Ibiseke byiza bitatu kimwe gipfunduye, ikindi gifite amabara y'umutuku n'umweru gipfundikiye n'ikindi gipfundikiye gifite amabara y'umuhondo n'umukara, n'intango irambitse ku mukeka.

Umudamu wicaye uri kubumba inkono. Imbere ye hariho inkono ziteretse ku mashyiga, afite n'indi, yicaye hasi ku butaka, ndetse n'igitambaro cy'umweru.

Abadamu bahetse, abantu bahetse umurwayi bamujya kwa muganga, uwo murwayi yicaye mu ngobyi yifubitse, yiyoroshe n'umwenda, apfutse n'umwenda w'umweru, hirya ya ho abandi abantu benshi hirya wari ibishyamba hari rinini cyane.

Ibisabo biteretse ku kirago hariho n'agaseke, n'ibyansi n'ibirago biteretse ku birago, hirya hariho n'uruzitiro rw'ibika...

Igicuma kiri mu gisobane, n'uruho n'umubirikira ari wo museke. Urambitse hasi mu gicuma kirimo umuseke. Igiti kirambitse ku kirago.

Ababyinnyi, intore, ziri guhamiriza, zambaye imyenda y'imyeru, zashyizemo n'imitako mu mutwe, bari guhamiriza cyane, bambaye n'ibitambaro by'imyeru n'imikara.

Inyubako zubatswe kinyarwanda. Hakurya y'aho hariho ibisozi binini by'ibirunga.

Abantu cumi na batatu, basize imiseke mu kiduki, bari gusomera rimwe, bose baciye bugufi, bambaye imyenda y'imituku, harimo abambaye imyenda yumutuku, ngofero amapantaro y'imihondo.

Abadamu babiri bari gucuruza amakuvurori. Bambaye imyenda y'imituku, bambaye na rinete bashyize menshi ku mutwe babiri.

Abagabo n'abakobwa bakenyeye, imyenda y'umweru n'umukara, batandatu barindwi bari kugenda baringaniye, bari kumanuka ku masikariye, inyuma yabo hari n indabo z'ibyatsi.

Isekuru iteretse ibajije mu giti. Isekuru akamaro kayo ni ako gusekuramo ubunyobwa, inzuzi zikoreshwa mu guteka ibiryo.

Inka zihagaze mu rwuri harimo inkungu zitagira amahembe, harimo n'izifite amahembe maremare. Izo nka harimo umukara n'umusengo n'ibihogo.

Umugabo wigoshesheje amasuzu, wambaye nk'imfunga ufite uri kunywa itabi, inkono y'itabi ya kinyarwanda, ufite n'icumu ku ruhande.

Inzu nini cyane isakaje ibyatsi by'umukenke, hejuru yamezeho ibindi sharakima hirya hariho ibiti, ikingishije urugi rw'ibiti n'imbariro z'ibiti, idahomye.

Ingoma zibambiye, n'izindi zitabambiye, hariho n'ibiti biboshye nk'ubutanda, ukamuriraho umutobe

Intango nziza cyane ebyiri, imwe bohesheje amabara y'umukara n'umutuku n'umweru, indi ibohesheje amabara y'umweru n'umukara.

Umurima w'intabire uteretse, urimo ikiraro batari buzuza neza, n'ibiti bishinze bateye n'imbariro.

Abagabo bane, bajyanye umurwayi kwa muganga, bamuhetse mu ngobyi ya kinyarwanda, umwe yambaye ingofero y'ubururu, babiri bambaye ingofero z'umweru undi yambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'icyatsi.

Intango nziza cyane ifite amabara y' umukara, umweru udahiye cyane usa n' umuhondo.

Umuduri urambitse ku kibuga, umwe bacuranga bari kuririmba, abahanzi bakoresha bari kuririmba.

Umuhungu ufashe inanga ya kinyarwanda, uri gucuranga. Haruguru ye hariho abanyeshuri, abantu bambaye imyenda y'imyeru, abanyeshuri n'amapataro y'imikara.

Inyubako nziza cyane ifite ama, amatafari ahiye yubatswe ku buryo bugezweho, ifite amakingi y'umweru yubakishije amatafari ahiye, ifite n'amakaro hasi, ifite n'ibaraza.

Ibicuma biteretse bitanu, n'akabindi gateretse ku ruhande, n'ikindi gicuma cya gatandatu giteretse ku ruhande, bitonze umurongoo byose birimo imiseke.

Abana umunani harimo umwe upfukamye, afite mesha ku mutwe, afashe agacupa k'agapipiri wegereye ku gikuta kiri ku kiriho imbingo.

Abakobwa bari mu kibuga bari kubyina, bakenyeye imyenda y'imyeru, harimo n'abambaye imyenda y'imihondo bari kubyina bikoreye n'amapfukire uduseke n'uduseke.

Umugabo uri gufura urikurasa hirya, wambaye nkishati y'icyatsi, ufitete n'umusatsi wakakariye ku mutwe wa karambaye.

Abagabo babiri basize imiseke itanu mu kibindi, bacyiteretse hagati bicaye bari kuganira bari gusoma, bari kuganira ku kintu bagiteretse hagati yabo uko ari babiri.

Umugabo wicaye, wambaye ipantaro y'ubururu, bodaboda z'icyatsi n'agasengeri k'umuhondo, iruhande rwe hariho ibitete byo gushyiramo inkoko n'ubutete bwo gutwaramo ibiribwa, buboshwe, bukozwe mu migano.

Intore zambaye ibihura, zambaye zigiye guhamiriza. Zakenyeye n'ibindi bihura. Intore imwe yambaye imyenda ifite amabara y'umweruru.

Inzu ya kinyarwanda hari ibicuma, hari ibicuma bibiri birimo umuseke, akabindi kari hirya yubakishije ubwatsi inzu iteyeho n' imbariro z' ibiti bagiye barafungisha ubwatsi, harimo n' igiti gihagaze cy' umweru mu muryango.

Vandarateri iteretse ahantu idufasha kugira ngo ngo twese duhari duhumeke umwuka mwiza.

Iyi ni muritipurizi ni igikoresho wifakisha bari gucagingiraho amatelefone, kugira ngo babone ukuntu babona umuriro wo gushyira muri telefoni.

Moteri nini ifite irangi ry'icyatsi n'umuhondo, iri mu murima bashaka guteramo imbuto, bashaka kuvomera umurima.

Moteri nini cyane ibeta, ifite amabara yi ifite amabara abiri ubururu, umweru n'umutuku idahinda.

Amatiyo manini ya makumyabiri na gatanu apanze ahantu, agera muri cumi n'abiri.

Hari inyubako nini cyane y'amashuri imbere yaho hariho amakoro inzugi z'amashuri zikoreshejwe na giriyaje y'umukara harimo na magiriyaje z'umweru n'inzugi z'umweru.

Ikigo nderabuzima cyubakishije amabuye y'urugarika; gifite inkingi z'umweru n'amatafari ahiye; gifite hejuru amarangi y'amarangi y'ubururu.

Umumotari uhagaze ku mapave, uri imbere y'inyubako ifite amaporotaye y'ubururu budahiye.

Ihema ryabugenewe bahinzemo ibigori, ibigori iyo byeze tubikuramo ifu y'agahunga, tugakuramo n'ifu y'igikoma, tukagaburira abana bagashisha.

Abantu benshi bari mu kibuga, bari mu nama, harimo n'abicaye imbere yabo hariho ameza, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, icyatsi bafite n'ibikapu mu mugongo.

Inyubako ni urusengero ruriho umusaraba hejuru w'umweru, hubakijije amatafari ahandi iteye irangi risa n'umweru de.

Umudugudu w'icyitegererezo uciyemo imihanda, harimo amazu menshi cyane, muri iyo mihanda irimo kaburimbo, irimo abantu, ihagazemo n'abantu, hakurya y'umudugudu harimo n'ibiti byinshi.

Akagari, Akagari ka Kampanga kubabakishijwe amatafari ahiye, inzugi z'ubururu, gafite n'amadirishya harimo ibirahuri by'ubururu.

Inyubako yubakishije amabati yumutuku iteye irangi ryumweru, ifite inzugi z'umukara imbere yaho hari kuri kaburimbo iri hagati mu ishyamba.

Inyubako nini ifite igipangu cy'ubururu. Ifite porutayi y'ubururu. Ku ruhande hariho igikuta cyubakishije, amakoro ateye irangi ry'umweru n'umukara. Hirya yaho mu gipangu mo ndani, harimo ibiti binini.

Inzu nini cyane ya etaje ifite inkingi z'umweru, amabaraza y'ubururu ariho ibyuma bitangira abagenzi. Inzira izamutse muri etaje ifite ibyuma bihashinze by'ubururu, inzugi zayo nazo ni ubururu.

Amarembo ya gare, harimo abateze imodoka, muri gare bateze imodoka, harimo kwasiteri, harimo na interinasiyonari.

Mu rusengero rwubakishije amatafari ahiye, hejuru harimo ibirahuri byafime by'umukara, haparitse imodoka, n'abagabo n'abadamu baje gusenga, harimo umugabo wambaye agapira k'umutuku harimo amabara y'umweru, ni pantaro y'umukara, nmudamu wambaye ibitenge.

Inyubako yubakishijwe ifite inzugi, amabuye ifite harimo umudamu uhagaze mu muryango wambaye ijipo igiye gusa n'umuhondo, n'umupira w'umweru ifite inzugi z'umukara, harimo n'amadirishya y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imashini ziri gutsindagira, imbere y'imashini hariho ibiti kuruhande rwa ruguru, hepfo yaho hari icyapa kiburira abanyamaguru, abanyabiziga ko bagomba kugenda gake, kubera ko bari gukora umuhanda.

Inyubako nziza cyane yubatse mu busitowa. Ifite ibaraza imbere. Ifite amabakisha y'amatafari ahiye rifite jaride . Ifite ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo n'icyatsi hariho n'ipoto y'amashanyarazi.

Isoko rinini ryubakiye, ryubakishijwe n'amatafari ahiye, risakajwe amabati y'umutuku, rifite n'inkingi ku marembo yubakije amatafari ahiye, hirya y'isoko hariho ishyamba rinini ritsikanye ry' inturusu.

Urusengero runini cyane, rwubakije amatafari ahiye, imbere hari ibirahuri bya fime by'umukara, imbere hariho ibiti byindabo bibiri, bihakikije.

Inyubako nini cyane isakaje amategura, ifite amarangi y'umuhondo iteye amarangi y'umuhondo, ifite n'inkingi z'umweru n'umukara, iri mu ishyamba rinini cyane.

Inyubako nini cyane igeretse, ifite ikibuga kiriho amakaro hahagazeho abagabo babiri, umwe yambaye ijire y'umutuku bari kwitegereza iyi nyubako.

Inyubako nini cyane isakaje amabati y'ubururu yubakishijwe amatafari ahiye, urugi rutey'irangi ry'icyatsi imbere yaho hariho senyenge inyuzemo y'icyatsi.

Ikiliziya kinini cyane hariho abakirisitu baje mu misa, iyo kiliziya isakaje amabati y'ubururu, ifite n'ibirahuri by'ubururu.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye, imbere ya yo harimo amajaride amennyemo garaviye, hari imbere ha ho hariho na ruhurura yubakiye.

Ikiliziya kinini cyane, imbere y'ikiliziya hariho umukecuru uri kugenda wambaye ibitenge n'agasharupe k'umweru, utipfutse. Imbere yabo hariho n'umugabo. Icyo kiliziya gifite inzugi z'icyatsi, ibirahuri by'ubururu.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, ku rusengero n'umusaraba w'umweru, hino hari ingoro ya Bikiramariya yubakishijwe iteye irangi ry'umweru , hirya y'urusengero hariho urutoki muri jaride.

Umugabo uri kunyonga igare, wambaye agapira, n'ikoboyi, na bodaboda. Igare ry'amapine atatse umweru.

Inyubako nini cyane y'urusengero, imbere y'urusenge rwubakishije amatafari ahiye, inzugi n'umuhondo imbere y'urusengero hateye y'indabo zisa n'umweru n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane ziri mu ishyamba, imbere yaho hariho umuhanda ugiye yo, hariho n'ibiti by'ipoto z'amashanyarazi, uwo muhanda unyuze muri jaride.

Abantu benshi harimo abadamu n'abagabo, harimo n'umusaza ufashe mikoro uri kubaganirira, umusaza wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru.

Abaturage bicaye hasi, bateze amatwi umupolisi uri kubaremesha inama, hirya hariho inyubako ifite amarangi y'ubururu, hirya yaho hariho n'urutoki, hariho n'ibiti by'indabo.

Umudamu uhagaze hagati yabantu ari kubabwiriza, bateze amatwi harimo abagabo n'umudamu wambaye umwenda w'umutuku urimo n'amabara y'umukara.

Abagabo bicaye hagati yabo hariho ameza, hariho uwambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, ufashe agakapu mu ntoki uri kubigisha, hakurya yabo hari abandi bicaye ku ntebe zitambitse.

Abaturage bicaye hasi abadamu n'abagabo, imbere yabo hahagaze umugabo, ufite mikoro mu ntoki uri kubigisha. Wambaye umupira w'umukara, urimo amabara y'umutuku, n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hariho inyubako nini cyane.

Abantu bari mu nama, bambaye imyenda ibitenge abadamu, harimo n'abagabo bambaye n'ibitambaro by'imituku, benshi bari mu busitani, ahantu bicaye hari n'ahantu hari ubusitani bw'icyatsi.

Abantu bari mu nama, irikwimeshwa n'umudamu, abaturage benshi harimo n'umudaso, harimo n'umugabo wambaye rinete.

Abantu benshi bicaye, n'abandi bahagaze, bafashe ni mpapuro muntoki, inyuma yabo hariho nu mudaso, hariho n'umugabo ufashe mikoro, uri kugamba uri imbere yabo, hirya yaho hariho ibiti binini cyane.

Umukobwa wicaye kuri rivani y'amapine atatu, ipakiyemo ingorofani wambaye kasike wicaye kuri iyo moto ufite n'urugapuro mu ntoki.

Imodoka nyinshi cyane, n'abagenzi bari kwinjira mu ma kwasiteri, mu matagisi, muri interinasiyonari, no muri za Ritiko, abagenzi benshi cyane hari n'abagore n'abagabo.

Imodoka nini cyane interisiyonari iparitse ahantu hinyubako hariho ibiti bihakikije, indabo z'icyatsi indabo ni iz'icyatsi.

Abagenzi bari kwinjira muri gare. N'abari gusohokamo. harimo abambaye ubupfukamunwa n'amajiri y'imituku n'umudamu ufite meshe ku mutwe n'agakapu k'umutuku wambaye ikabutura y'umu...

Urugi rufite irangi ry'ubururu, hirya yaho harimo amapikipiki ari muri kaburimbo atwaye abagenzi, hirya yaho hariho n'igihu cy'icyatsi.

Abamotari baparitse hamwe bagera mu icumi. Bafite moto za gikumi, baparitse ku nzu ifite amarangi y'ubururu, imanitsemo rido mu muryango. Harimo n'amadirishya y'ubururu.

Abagabo benshi bafite ibyuma byo gucuranga, harimo n'uwambaye ingofero y'umutuku yanditseho inyuguti z'umweru, harimo undi wambaye ingofero yumutuku n'uwambaye rinete, bose bagiye gucuranga.

Imodoka nyinshi cyane ziri muri gare z'amakwasiteri harimo n'ivatiri, kuri izo modoka hariho urujya n'uruza rw'abantu, abagenzi bari kwinjira mu modoka bari gushaka kugera iyo bari kujya.

Umudamu uhagaze ahantu bacururiza amapikipiki, imbere ya ho hariho icyapa. Hahagaze hariho icyapa kasike y'umuhondo, uwo mudamu yambaye ijaketi y'umukara ari guseka cyane, yizingishije na menshi.

Umusore wicaye kuri moto, ufite uri kubona planque yayo kandi afite na cask z'umuhondo, ariko umutwe ntabwo uri kureba, yambaye ishati y'ubururu n'ikoboyi y'umukara.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa hoho, yapfiriye mu muhanda, imbere yaho hariho ibyerekana ko imodoka icyapa kerekana ko imodoka yagize impanuka, yapfuye inyuma yaho irindi hoho y'umutuku , imbere yaho hariho akavatiri kari hepfo ku ruhande.

Ikibuga kinini cyane giparitsemo imodoka isa n'umweru iriho inyuma shitingi. Imbere muri iyo modoka harimo abantu, hariho na motari uparitse ku ruhande, uri gupakira kuri moto ye imifuka. Harimo n'imbere y'imodoka harimo umudamu wambaye imyenda y'umweru, iy'imituku, n'umugabo wambaye imyenda y'umuhondo.

Umuhanda urambuye, ikoni imbere, urimo moto abantu babiri batwaye, umumotari utwaye umugenzi, imbere kuri uwo muhanda hakikijeho imikindo, imbere yaho n'iminyinya n'ibindi.

Umurongo w'abantu benshi bari kujya muri kwasteri. Muri iyo coaster abantu bari kujyamo, hari abambaye imyenda y'umuhondo, abandi imipira y'imituku iriho imideri y'umweru.

Umugabo ugiye kurangura amavuta y' amadomora n'umukobwa yari kwiga igare n'umukobwa nawe uri ku iga ry'amapine atatu, iyo kurangura amakarito y'ibicuruzwa imbere byahagaze umugabo wambaye ikositimu ishati y'umweru yari mu kagari ka kireru barahabwa umudali.

Umunyonzi upakiye ku igare imifuka ebyiri yuzuye amakara, wambaye umupira w'umutuku, n'ipataro y'umukara, uri kubisikana na tagisi.

Indege iri ku kibuga, imbere yaho hariho ibiranga inzu zibikwamo ibivuye mu ndege.

Imodoka nini cyane interinasiyonari iri gusohoka mu marembo ya gare, imodoka ni ebyiri. izo modoka, imodoka imwe iruhande rwa yo hahagaze umukobwa wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara uri kuyandikira kubera ko, uri kuyisoresha kugirango ifate umuhanda.

Umujyi munini cyane urimo amayetaje n'amazu menshi, umujyi unyuzemo n'imihanda, hakurya y'uwo mujyi hariho n'ibiti bihateye.

Imodoka itwaye ibiribwa. Harimo karoti, kokombure, inyanya, ibitunguru na za puwavuro. Ibyo byose tubyifashisha iyo turi gushaka ibyo kurya.

Imodoka ya kowasiteri irimo abantu bari ,iri kwinjiramo abantu ,harimo abari kwinjiramo bambaye n'udupfukamunwa ,umudamu ,umugabo no mu modoka harimo n'uwambaye agapfukamunwa.

Imodoka nini cyane Interinasiyonali itwaye abagenzi, iruhande rwaho hariho umuyonzi uri kwigare, inyuma yaho hariho amatagisi aparitse, aparitse n'abakurikiye, n'abakurikiye iyo modoka.

Imodoka y'umweru ifite ibara ry'icyatsi n'iry'umuhondo, harimo n'icyapa cy'umuhondo, ibirahuri by'ubururu, irimo n'umushoferi uyitwaye wambaye ishati y'umweru, imbere yayo hariho abamotari baparitse hari n'igiti gihagazeho umuntu.

Abanyonzi bari mu muhanda bambaye amapataro y'ubururu, bafite n'udupfukamunwa, biteze n'ibitambaro, harimo n'abambaye imihondo. Hakurya hari imitaka ya emutiyeni.

Amakamyo manini ya rukururana apakiye yembedodo n'indimu, bipakiye muri za rukururana za dipine. Hejuru yaho hariho umugabo wambaye...

Iduka rinini cyane, ibintu birimo imbere. Hasi yaho hariho agasimba kari kwirambura, gasa n’icyatsi. Hepfo agasimba gasa n’ubururu. Iryo duka, imifuka iri kugaragaramo imbere muri giliriyaje.

Abadamu bakoze ishene, bambaye imyenda y'imihondo n'ubururu, bafite na menshi ku kumutwe batonze ishene.

Abakinnyi b'umupira bari muri siporo. Bahagaze imbere yinzu iteye amarangi y'ubururu, bambaye imyenda y'amakabutura y'umukara, imipira y'ubururu harimo n'abambaye imihondo, bahagaze ku makaro y'ubururu.

Umudamu uri gukina tenisi wambaye akagutiya gatoya n'umupira w'umutuku ,n'akagofero karirimo ibara ry'umukara , n'umweru ufashe ,ku maboko hariho udupira tw'umweru.

Ivatiri nziza y'icyatsi n'umutuku ifite amabara atatu n'umweru, hariho ibitambaro by'ubururu n'umweru. Ihagaze kuri kaburimbo, hino yaho hariho pasiparume.

Ikibuga cya basiketi cya basiketi, abakinnyi bari gukina bambaye imipira y'imihondo, ikabutura y'ubururu, n'ay'imikara n'ay'imyeru hariho n'abari kureba umupira.

Abakinnyi ba basikete bambaye imipira y'ubururu, bafashe imipira itatu mu ntoki, ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, hirya yaho hariyo abakobwa babiri, umwe wambaye imyenda ya tereningi y'umukara, ipantaro n'ishati n'uwambaye agapira k'ubururu, k'umweru, n'ikabutura y'umukara.

Abanyeshuri ikigo cy'ishuri harimo abanyeshuri bambaye imyenda, imipira y'ubururu, amakabutura y'umweru n'umukara, abarimu babo bambaye itiriningi za siporo na marineti, umudamu ufite menshi ku mutwe...

abakinnyi bari gukina vole, bambaye imyenda y'umukara imipira y'imituku.

Umupira wa tenisi uri ku kibuga cya kiriketi. Ku kibuga cya kiriketi hateyeho pasiparume, agapira karambitse hasi muri iyo pasiparume.

Umusore wambaye w'umuzungu wambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umutuku, agakabutura k'umukara, umupira w'umukara n'umutuku, wambaye, ufite deredi k'umutwe Rwanda peni.

Abahungu bari muri siporo, batanu, umwe yambaye isengeri y'umuhondo, ikabutura y'umukara, abandi bambaye ubururu, inkweto z'umutuku, n'umugabo uhagaze imbere yambaye agapira k'icyatsi n'ingofero y'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Isiganwa ry'amagare y'abari muri kaburimbo. Ndabona hari n'amamodoka ari kugenda akura abantu mu nzira. Abantu bose bari ku ruhande bari kureba isiganwa ry'amagare, bahagaze ku mihanda hirya no hino. Riri kubera muri kaburimbo.

Abana babahungu babiri bari kuramukanya, bari ku kibuga cya tenisi, hagati mu kibuga harimo, hateretsemo n'intebe, umwe wambaye imyenda, udukwe tw'udusuperesi n'udusogisi tw'umweru, n'agakabutura k'umweru, n''umuhondo, n'icyatsi, n'umweru, n'udukweto tw'umweru.

Abakinnyi b'umupira bari kwirukanka mu kibuga, bari guserebura, bafite bande ku kuboko, bambaye amakabutura y'umweru, amasogisi y'umweru, yambaye amagodiye z'umuhondo n'iz'umukara, imipira y'umukara n'umweru.

Abagabo babiri bari ku kibuga, icyo kibuga gifite amarembo yubakishije amatafari, abo bagabo umwe afashe imipira itatu yambaye n'isaha, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu, undi wo kuruhande afite na bande ku kuboko kw'ibumoso.

Abantu benshi bashungeye umuntu uri kwiruka n'igare rya siporo riri kumwirukaho mu muhanda. Umuntu wambaye utwaye irya siporo, yambaye agapira k'umuhondo n'ingofero y'umweru n'ikabutura y'ubururu. Uwo muntu uri imbere yambaye agapira k'umweru karimo n'umukara n'ikabutura y'ikoboyi.

Umukobwa uri muri siporo, uri gukora umurambararo yicaye kuri mirongo itanu na gatanu ushaka kurenza amaboko ngo agere kuri karindwi, wambaye supurese z'umweru n'udusogisi tw' umukara n'umutuku n'umuhondo.

Abakobwa babiri bari gukina vore bazamuye amaboko, bombi bategereje umupira kugira ngo bawukubite umwe yambaye itiriningi y'umuhondo yanditse ho makumyabiri na kane, undi wambaye iyumutu irimo ibara ry'umutuku n'ubururu.

Abakinnyi bambaye imyenda ya siporo bahagaze harimo uwambaye teni yumukara n'undi wambaye isengeri y'umukara n'uwambaye akumutuku n'ubururu n'itiriningi n'umupira w'ubururu bari kugenda.

Umukobwa wambaye ijipo y'umweru, isengeri y'umukara, ufite na meshi ku mutwe, ufite n'imikako, yambaye n'imikako hafi mukiganza ku kuboko.

Umuntu uri mu kiyaga ,uri koga wambaye agapira mu mutwe k'ubururu ,harimo n'ibara ry'umuhondo, uwo muntu ari gutera umusomyo.

Abakobwa bari gukina umupira wa vole, bambaye amakabutura y'icyatsi n'imipira y'umuhondo, bafite na meshi ku mutwe.

Abagabo n'abagore bicaye ku kibuga, udutebe tureture imbere yabo hariho ibyapa, inyuma yaho ariho senyengi ndende, hakabaho n'ibiti, hirya yaho hakaba n'ibiti birebire, harimo n'icyapa gihagaze cy'ubururu cyanditsemo inyuguti z'umukara.

Pisine nini cyane, imbere ya pisine hariho indabo z'umuhondo, hirya hariho n'ishyamba. Kuri pisine hazitijeho n'imigano.

Abasore batanu bambaye udupira tw'imituku twanditseho, bambaye na songa mbere, nudusipuresi umwe udafite akaguru uhagaraye ku kaguru kamwe kumbago.

Umukinnyi uri muri siporo, wambaye ikabutura y'icyatsi n'umupira w'icyatsi urimo amabara y'umweru n'umuhondo, usa nk'aho yaguye hasi ari muri siporo.

Abasore babiri bambaye utujezi, agapira k'umuhondo gafite akabara k'ubururu mu ijosi bafite n'utwapa tw'ubururu, bambaye udukabutura tw'imikara n'amasaha kukuboko n'amabande kuruhande yimikara, bari guseka nundi utari guseka.

Balo baro numupira dukina turi muri siporo, iyi ballon isa ifite amabara' umweru, ubururu, n'umuhondo. Baro iyo tuyikina tuba dukora siporo tunanura imitsi tukarushaho kugira ubuzima bwiza no kumererwa neza.

Umuntu wapfuye igice kimwe kiri mu cyuma hejuru, wambaye inkweto z'umweru, n'amasogisi y'umweru, uziritse umugozi mu maboko no mu mutwe, wambaye isengeri y'umweru.

Abakinnyi b'umupira bafite igikombe bari kukifotorezaho, harimo uwambaye ikabutura y'umutuku nu'mupira w'umweru n'undi wambaye ufashe w'umuhungu wambaye ishapure, hirya hariho umukinnyi n'umutoza wabo wambaye rinete.

Ikibuga, umuririma uririmo amakoro, imbere y'aho harimo hariho umuntu wicaye kuri moto. Imbere hariho imodoka yo mu bwoko bwa tagisi. Imbere y'aho hariho n'abamotari babiri.

Abakobwa babiri bari kugenda baringaniye ,umwe wambaye ikoti ry'ubururu ,na furari ,wambaye n'ingofero, undi utari kugaragara umutwe wambaye agashati k'umweru, n'agakapu k'umuhondo ,n'igitenge.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugaragara cyane, n'umurongo w'umweru. Imbere yaho hariho inyubako nini cyane y'amatafari ahiye zinjira makaro ku ruhande harimo n'amapoto y'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo unyuze hagati y'ishyamba, hariho ni ipoto y'umuriro, hariho n'ibiti binini biteganye hakurya no hakuno by'ibiturusu binini, iryo shyamba hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Umugabo uhagaze mu murima, ufite ibidomora bibiri icy'umuhondo ni icy'umutuku, ni umuhondo udahiye, akaba abiteretse ari kuruhuka, imbere yaho hariho umumotari n'undi mugenzi w'umugabo, ufite marete mu ntoki n'undi mukobwa wambaye ijiri.